Abantu bari ku kigo nderabuzima batonze umurongo, bategereje umufasha kugira ngo babafashe, mu bicaye harimo abakecuru n'abasaza n'abana.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kuvoma amazi ku kigega giteretse ku meza.

Abantu bicaye imbere bari gutanga ikiganiro ku bantu bagiye batandukanye. Bambaye udupfukamunwa, buri umwe afite indangururamajwi imbere ye.

Umukecuru atekeye imbere y'inzu, ku mashyiga atetse mu isafuriya imbere ye hari ibikombe, n'umufuniko yambaye ibirenge.

Abantu bari kumwe bambaye imipira y'icyatsi isa. Imbere yabo hari umupolisi ufashe icyapa cyanditsweho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye, imbere ye hari umuntu ufashe indangururamajwi.

umukobwa ufite imisatsi y'umukara n'imibiri yombi; urimo guseka, afite ishinya y'umutuku.

Madamu Jeannette Kagame ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu benshi, yambaye ikanzu y'ubururu n'ishanete n'amadarubindi imbere ye hari indangururamajwi.

Muganga, wambaye, itaburiye y'umweru wizingishije imisatsi, ateze amatwi, ku nda y'umubyeyi, utwite.

Amakarito ari ku kumurongo kandi aratandukanye, habanza ikarito ifite ibara ry'umuhondo, hakurikiraho ikarito ifite ibara ry'umutuku, hakurikiraho ikarito ifite ibara ry'icyatsi, hakurikiraho ikarito ifite ibara ry'ubururu, hagakurikiraho ikarito ifite ibara ry'umukara niko ayo makarito agiye atandukanye.